Hano hari umuganga uri kuganira n'umurwayi we umurwaye ubanza yakoze impanuka hari ikintu bamushyize ku ijosi kugira ngo gifate ijosi neza n'umudamu w'inzobe wambaye ikanzu y'icyatsi harimo amabara y'umweru.

Iki ni icyapa cyamamaza kimanitse kunkingi imwe, harimo ishusho ry'abazungu abera barimo abagore n'abagabo ni icyapa cyamamaza.

Iki ni icyapa cyamamaza ibikorwa byitwa buritamu. Hari umugabo wambaye ishati y' ubururu, yambaye n'akandi kambaro inyuma y'umutuku n'ingofero y'umutuku, afite n'icyombo mu ntoki.

Abagabo babiri bari kuri gishe, uri inyuma wambaye ishati yumukara ameze nk'aho yabonye amafaranga ye, ari kuyabara kugira ngo arebe ko yuzuye. Uwambaye ishati y'umweru we ntabwo arayafata yose; hari ayo amajije gufata, andi aracyari kuri gishe.

Hano n'ahantu h'ubukorikori, bari gucuruza ibintu umuntu yamanika munzu, bimwe mbonye ahanditseho map kigali, ni twinshi dufite amabara atandukanye

Hano ni aho bacuruza imyenda yo kwambara, ndabona hari impuzankano z'akigabo n'imipira imanitse. Hari n'intebe y'umweru ndikureba imbere yange.

Ahangaha ni ahantu bacururiza ibitenge, ibitenge bifite amabara menshi cyane hari amabara y' ubururu, umuhomdo, icyatsi ikigina n' ayandi mabara menshi cyane.

Ndabona inzu imeze nk'ahantu bakora ubucuruzi. Hari umugabo, umwana w'umukobwa usutse imisatsi, uwo mugabo yambaye ipantaro y'ubururu, ishati y'icyatsi kijimije n'umweru. Imbere y'umugabo uri imbere hari akantu gafite ibara ry'umutuku.

Imodoka ifunguye imiryango y'inyuma iraparitse. Umuntu arebye neza, abanza kureba imbere ko hameze kugirango icuruzwe.

Ndabona umudamu, intoki z'umudamu zifashe amafaranga y'amanyamahanga, ameze nk'umuntu uri kuyabara, ari no kuyagaragaza abantu bayarebe, munsi ye hari icyuma kifasha abantu kubara amafaranga.

Hano umuntu ari gushaka serivisi yo gushaka gufata amafaranga, yambaye icyatsi n'ubururu, n'umudamu afite imisatsi miremire.

Uyu mudamu w'inzobe ari gucuruza ibikomokaku nka akaba ni amata, amavuta yayo abishyize hamwe aba ari kubicuruza. Hari undi hirya uri kubishyira ahantu hakonje.

Iki ni icyuma gitwaye igikaragito ry'amata, biri ahantu heza cyane, hasi harasa neza n'umweru no ku mpande hejuru yayo hari ibyatsi by'ikizungu,..

Hano hari umwana w'umukobwa ari kunwa ari kunywa ibikomoka mu mata bita yawurute, hari n'undi muntu umufatiye iki gikombe.

Urupapuro ni inyemeza bwishyu ko umuntu amaze kohereza amafaranga mu mahanga bayita mani garame.

Iyi ni imibare y'ikigo nyarwanda y'imisoro rwanda reveni otoriti imibare yayo ukunu bagenda babigaragaza no kuguni ibumoso hari ikiganeko cy'igihugu.

Aha ngaha hari ameza yicayeho abantu bane harimo umugore umwe ndetse n'abagabo batatu, bicaye ku ntebe nziza cyane bose imbere yabo hari indangururamajwi kugirango ngo babashe kumvikana, hakaba hari kandi n'uducupa tw'amazi atunganywa n'uruganda ruzwi cyane mu Rwanda mu gutunganya ibyo kunywa rw'inyange

Hano ni ahantu bavunisha amafaranga y'amanyamahanga twita modevise, ni ahantu heza hafiteti amabara cyane cyane amabara aganje ayandi ni umuhondo, umutuku, umweruru, kandi icyapa gisize irangi ry'ubururu.

Iyi ni inzu y'ivunjisha ry'amafaranga amanyamahanga nabapakora n'akandi kazi cyo guhererekanya amafaranga harimo n'ikigo cyitwa wesitani yuniyoni n'igipapuro.

Ifoto y'umuriro w'amashanyarazi ishinze inyuma y'igipangu iyi foto niyi giti. Ku gipangu hagaragara inzira' cyangwa se mu muhanda winjira mu gipangu izi poto zijyana umuriro w'amashanyarazi mu ngo mu baturage.

Iki ni igitanda gisizwe irangi ry'umutuku nagarashiramo isaso, igitanda kize cyane ni kinini cyaryamo abantu barenze umwe ni cyiza cyane.

Hano hantu, ni ahantu bamurika intebe zo kugurishwa, ni intebe nziza cyane z'impu n'ameza yazo, ifite mu ibara ya kigina, amabara ya kigina, hirya amabara y'umukara.

Hano ndi kubona ubwogero bwo hanze ni ahantu abantu bakunda no kwidagadura hirya hari inzu igeretse ifite irangi ry'ubururu n'umuhondo.

Icyumba cy'inama kirateguwe kimeze neza cyane hari intebe y'imikara n'ameza umukara n'amacupa y'amazi y'abantu bari buziye guhura bari n'ibara ikigina kigaje cyane.

Hano ni ahantu ho kwidagadura ni ahantu ni ubwogero na bwo hari intebe ebyiri iburyo hirya hari inzu igeretse ifite amabara menshi cyane cyane y'umuhondo.

Hano ni ahantu abantu bakunda kwicara baruhuka, basoma kukavinyo kugahiye, hirya hari ibyatsi n'indabo zitewe hari intebe nyinshi, n'ibumoso hari izo nzoga zose mvamahanga.

Ndabona ubwogero, ubwogero bwiza cyane bwo hanze, aa, hari n'intebe aho abantu bicara, bicaraho barangije koga, uuh, hirya hari ishyamba.

Igorofa ndende ifite ibara ry'ubururu mu madirishya yayo ikaba yubatswe mu matafari ahiye ahantu mu umujyi hagati hano mu mujyi wa kigali.

Ndabona abagabo babiri baje gusaba ubufasha mu buyobozi hari umudamu n' undi mugabo uri hirya, umudamu w' inzobe wambaye umukara numutuku umugabo yambaye ubururu hasi no hejuru.

Iyi ni inyubako igeretse, yitwa buritamu senta ndende cyane ifite amadirishya meza, n'abantu babiri bahagaze ku muryango.

Hano ni mu isoko ndabona rugamba rw'curuza mudamu imbere yampa ibicuruza ibintu bitandukanye ndabona amashyu ndabona inyanya ni ibintu byinshi cyane rebatatikitisha n'ibindi biri inyuma ni ahantu hasakaye, umudamu wambaye imyenda y'umutuku n'umuhondo aricaye.

Hano ni mu isoko abantu bari gucuruza, babiri baricaye umwe arahagaze. Ndi kubona inyanya, ibitunguru, imiteja, ibishyimbo, ibitonore,...

Iyi nyemezabwishyu handitseho n'amafaranga ni uruparo rw'umweru hariho n'irangi ry'ubururu hirya handitse apu ifite ibara ry'umutuku.

Ndabona inzu, ifite icyapa kivuga ko hari inzu igurishwa n'inzu nziza cyane, ifite ubusitani buteye bw'icyatsi, igikuta gifite irangi ry'umweru ujimije gato, hirya ndabona ikigega cy'amazi cy'umukara kimanitse hejuru.

Hano ni muzu ninzu igezweho ,ifite ibiganiro n'ibihiganiriro itatsi n' ameza y'umweru hirya ndabona igikoni cyo mu nzu ahantu batekera harasa neza, inzu ifite hose irangi umwe.

Ibi ni ibyumba bikodeshwa mu nzu igeretse gagatu, aho icyumba kimwe gikodeshwa ibihumbi magana atatu mirongo itanu.

Hano ni mu nzu, ndabona umuryango ufite ibara ry'icyatsi, ufunze n'idirishya ritagaragara neza rifite ibara ry'umukara, hasi hari ahantu abantu bicara.

Iyi ni inzu mo imbere ari kutwereka ahantu bogeshereza ibyombo, ni inzu nshasha, iruhande hari icyuma kikonjesha ibiribwa bita firigo.

Hano ni mu isoko, bacuruza imbuto, ndabona imbuto zitandukanye hari amacunga, hari imineke n'imifuka ku ruhande, hari n'ibitunguru.

Hano hantu bacuruza imyenda, ndabona hari imyenda hari n'ibikapu n'inkweto, hari umuzungu uhagaze umwera, ahagaze imbere ye hari abagore babiri.

Hano ni ahantu hacuruza ibintu byo kurya byo kwambara ibintu by'amoko yose hitwa nka simba abantu bari kujyamo ndabona uwo mudamu uri kujyamo n'abandi basore nabo barikujyamo.

Urabibona ko rwambaye amakoti y'icyatsi, rwiganjemo inkumi n'abasore, ubona ko bari kumwe n'abandi bantu bambaye nk'abanyonzi. Harimo daso zishinzwe umutekano mu mujyi wa Kigali, basa nk'abitabiriye ibindi bintu runaka bari kumva.

Umugabo ari kwamamaza ikigo cy'igihugu cy'ubwishingizi bw'indwara cyitwa "RSSB". Ari kwamamaza icyo kigo, afite n'urupapuro byanditseho. Yambaye ishati y'umweru ari cyumba bakoreramo.

Hano ndabona hasa nk'ahantu babarura abandi, hari umudamu hari umwari wambaye imyenda y'umweru w'ijimye ari kwandika undi muntu uhagaze imbere nawe.

Muganga abaganga n'umurwayi bari kumuha ubufasha, hari umuganga w'umugabo uri kwandika, iruhande rwe hari undi muganga w'umudamu, n'umuturage uri imbere yabo.

Umukobwa w'imisatsi miremire wambaye umupira w'icyatsi ari ahantu bagurira imbuto ari guhaha, ari mu mbuto nyinshi cyane imbere .

Imodoka ziri mu nzira ziri kugenda ari nijoro zicanye amatara, hari n'amatara yo umuhanda nayo ahora aramuritse, hano hino hari icyapa cy'umweru handitseho ni simba, simba yo yanditswe mu nyuguti zitukuye

Inzu yo guturamo iherereye mu Rwanda mu mujyi wa Kigali ikodeshwa amadolari magana atanu na mirongo itanu ku kwezi, irimo televiziyo icyuma gitanga umuyaga, intebe, ameza, ndetse n'akabati.